Ibikorwa remezo ari byo ibitaro. Inyubako iberamo ibitaro, ikaba ifite ibice byinshi bitandukanye, aho hari ibitaro bikuru, ahandi hakaba aho batangira imiti, ahandi hakaba ibitaro bitoya bifasha abarwayi, aho abaganga bavura abarwayi bafite ibibazo bitandukanye, maze bagakira bakabaha imiti n'abaganga bakabona amafaranga...

Ibitaro bivurirwamo abarwayi, aho abadogiteri n'abaganga bari kwita ku murwayi urwaye, aho bamushyiramo ibikoresho byabigenewe kugira ngo bamenye ikibazo afite maze ahabwe ubuvuzi. Maze bamuhe imiti itandukanye kugira ngo abashe gukira. Maze na bo bakore akazi kabo neza kandi batuye. Maze duteze imbere igihugu, kandi n'abantu bagire ubuzima bwiza muri rusange.

Ibi bitaro bivura abantu batandukanye, aho ababigana bavurwa neza kandi bagahabwa serivisi nziza, aho bakira abantu bose, abana, umuganga aho yifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga akabasha kureba ibibazo umurwayi afite, aho bavura amaso bafite ibikoresho batorosha mu maso y'abana maze bakabasha kumenya indwara bafite.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti y'ubuvuzi gakondo, aho abaganga ba gakondo baza gushaka ibimera byo kujya gukoramo umuti wo guha abarwayi barwaye indwara zitandukanye, bityo bigafasha abarwayi gukira bakabaho neza bagasubira mu buzima buzima maze n'abaganga na bo bakabona amafaranga, maze yo kwifashisha baguramo ibindi bintu bitandukanye.

Ubuvuzi gakondo bukoreshwa bavura ibintu byinshijwe hifashishijwe ibimera bitandukanye, aho bufasha abarwayi kubavura bidasabye kujya kwaganga.

Ibidukikije bitandukanye， inturusu n'ibindi bimera bitandukanye， bidufasha mu kudukururira imvura， ibidukikije bidufitiye akamaro muri ubu buzima tubamo. Ibidukikije birimo ibibabi by'inturusu，twifashisha turi kwivura.....

Ubuvuzi gakondo aho ibimera bivamo umuti gakondo. Biri mu murima aho biteye, aho abavuzi gakondo baza gushaka ibimera bakajyakoramo umuti wo kuvurisha abantu indwara zitandukanye. Bityo bagahabwa amafaranga n'abarwayi bagakira indwara barwaye maze bakagira ubuzima bwiza mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umusaruro w'amatunda uri hafi kuboneka， aho uteye mu biti bitandukanye，kugira ngo amatunda azamukireho， maze bazabashe gutanga umusaruro， na ba nyirayo babone umusaruro mwiza uhagije， maze bawujyane ku isoko，baguremo ibndi bintu bakeneye， byo kwifashisha mu rugo.